Mu gikoni cy'akabari aho bokereza inyama, inyama zikaba ziri ku mishuto ndetse aho bazitekera, hakaba hakeye n''abahakorera bakeye, bityo bikaba byongera isuku y'ibiribwa.

Ubucuruzi bw'inzoga zigiye zitandukanye aho zicururizwa mu mabara, ndetse hari aho ziri mu mafirigo aho zikonjeshwa, bityo zikaba zafatwa zifite ubukonje.

Akabari kanyobwamo ibinyobwa bitandukanye, ndetse harimo n'abantu batandukanye. Harimo abazungu ndetse n'abirabura, aho bigaragaza ko hari ubwumvikane ndetse n'ibyishimo.

Inyama ziri kokerezwa ku mushito, aho ziri kotswa mu gikoni giteye imbere, ndetse gisa neza, aho gifite amakaro mu rwego rwo kunoza isoku.

Muri kabari hakorerwa ibikorwa byo kunywa inzoga ndetse no kubyina. Ahantu hataba hagaragara hafite amatara utabona undi, bityo bigahereza umurindi w'ingeso mbi.

Aho bakanikira terefoni nk'umwuga wateza umuntu imbere. Izi terefoni harimo izatandukanyijwe ndetse n'izindi zifatanye, zishobora kuzamura umuntu mu bukungu.

Mu Rwanda ahantu bita mu cyaro haba hari amabotike, aho abaturage bajya kugurira ibyo kurya bigiye bitandukanye. Aya mabotike agerageza kugira isuku ahashiramo amakaro hejuru kugira bigaragare bisa neza.

Igikoresho gikonjesha ibintu cyitwa firigo. Aho ushobora kubika inzoga cyangwa se ikindi kintu, bityo kigakoreshwa gikonje cyane.

Inzu bacururizamo ibikoresho by'amarangi bakoresha bubaka, aho bayasiga ku nzu ikaba igaragara neza mu maso y'abantu, ndetse amarangi akaba ari ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Ahantu bacuruza ibikoresho bya telefone ndetse na mudasobwa, aho bakora ndetse n'ibyamenetse muri telefone, ndetse no muri mudasobwa.

Ikirango kigaragaza kampani yitwa Agoropi limitedi, aho bakora imiti y'uburondwe, amasazi ndetse ku matungo. Aho nyine bishobora ku kuyobora abakiriya babishaka.

Mu Rwanda hari ibikorwa remezo bitandukanye nk'ubucuruzi ndetse nko mu byaro amabutike agakorerwamo ubwo bucuruzi, aba yarubatswe neza ndetse agashyirwaho n'amakaro kugira ngo agaragare binogeye ijisho.

Mu Rwanda ,iyo ushaka kwiteza imbere, ukora ibikorwa bitandukanye, aho ushobora gucuruza ,amayinite cyangwa se gutanga izindi serivisi ,zijyanye n'amafaranga ,aho ushobora kubitsa no kubikuza.

Ikirango gitanga ikaze muri hoteri yitwa lavuwasina, ni hoteri ishobora kwakirirwamo ba mukerarugendo cyangwa se abandi bantu, bakeneye serivisi zijyanye n'ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa.

Ubucuruzi bw'umuntu witeje imbere usanga hariho na gaze. Gaze n' igikoresho bakoresha mu mujyi mu cyimbo cyo gukoresha inkwi cyangwa se amakara ndetse butike ipatsemo ibintu byinshi cyane.

Amabutike acururizwamo ibikoresho ndetse n'ibikenerwa n'abaturage. Usanga asizwe amarangi ndetse yubakwa neza kugira agaragaze ubwiza ahantu aherereye.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi ziba zubatswe ku muhanda, bagerageza kuzishyiraho amakaro, kugira ngo hagaragare ndetse hase neza, bityo byongere isuku yaho hantu.

Amazu acururizwamo mu cyaro, ibikoresho bigiye bitandukanye. Aho bashobora gutangira filime ndetse n'abashobora gutanga serivisi zijyanye no guhererekanya amafaranga, ndetse no kuyabikura, aho zubatswe neza ndetse zifite n'amakaro hejuru.

Ubucuruzi bwa gaze, gaze ni bumwe mu buryo abantu bakoresha bacana, cyangwa se bateka. Ndetse hafi ya gazi hakaba hari igare ryo kuzitwara.

Ubucuruzi bukorerwa muri butiki, aho amabutiki mu Rwanda abasize amarangi ndetse afite isuku, kugira ngo binoze gahunda y'isuku mu Rwanda, bityo u Rwanda rube u Rwanda rugira isuku.

Mu Rwanda usanga amazu akorerwamo ubucuruzi, agerageza gukorerwa isuku, aho akoresha amakaro, bayashyiraho kuri ayo mazu, kugira ngo agaragare hase neza.

Ikirango cya Faraja hoteli, aho gishobora kugaragaza ahantu hoteli iherereye. Hoteli ishobora gukorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye aho abakerarugendo bashobora kuba bashobora kuhafatira ibyo kurya, cyangwa se abantu runaka bashobora kuhafatira ibyo kurya.

Inzu yubatswe neza nk'isoko, aho bacururiza ibintu bigiye bitandukanye ndetse hakaba hari n'abamotari ndetse n'ubundi bw'ubwikorezi, nk'ubw'amagare aho batwara abantu ndetse n'ibintu baguze, cyangwa se byaguzwe.

Amabutike ni inzu zikorerwamo ubucuruzi. Akaba ari inzu zikorwamo isuku mo imbere ndetse no hanze. Aho bagerageza kuzisiga amarangi kugira ngo zigaragare neza.

Ubucuruzi bw'ibyo kunwa, aho bari gucuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye harimo nka ji bita eneji, izindi zikaba ari iza fanta ndetse na marite

Ahantu hari ikirango bigaragara ko bakora telefone zose. Uyu akaba ari umwe mu mishinga ishobora kubyarira umuntu uyikora inyungu.

Ubucuruzi bw'imiti hifashishijwe inzu bita farumasi, aho umuturage ashobora kubona imiti adahenzwe, ndetse akayibonera ku gihe. Bityo bikarinda impfu ziterwa no kubura imiti.

Inzu yubatswe nka butuke icururizwamo imigati, aho imigati iri mu bwoko bugiyre butandukanye. Hari imiremire, hari imigufi, ndetse hari n'ifunze mu bintu by'ibishashi.

Ubucuruzi bwo kuranguza ibintu bigiye bitandukanye, aho bari gucuruza ibyo kunywa ndetse na kawunga, ibyo kunywa bikaba birimo nka novida ndetse na inaji n'ibindi.

Ibikorwa by'ubucuruzi bwa terefoni zigezweho arizo bita simati mu Rwanda bigeze kure. Ku buryo n'aho umuturage wo mucyaro asigaye ayibonera ku gihe, maze bigatuma na we menya amakuru ateye imbere.

Igitaramo cya korali runaka aho bari kuranamya Imana, ndetse bakoresheje amatara agiye atandukanye ku rubyiniro rwabo, bityo igitaramo kiba kiri kugaragara neza.

Ubucuruzi bw'imbuto zigiye zitandukanye harimo: nk'imineke, amashu, wotameroni, ndetse n'ibinyomoro, aho bicururizwa mu isoko ryo mucyaro.

Shufurere ni zimwe mu mboga umuntu ashobora gucuruza akazicururiza mu ibase. Izi shufurere ni imboga umuntu ashobora gutegura zikaribwa, zikarishwa ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'uburyo ziryoha.

Icuruzwa ry'imbuto ni bimwe mu byo abacuruzi abenshi bakora haba harimo nk'ibinyomoro, ibipapayi, amatunda ya marikuca ndetse na pome.

Ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye harimo: nk'imbabura, akamamiyo, amabase, aho imbabura n'akamamiyo bishobora gukoreshwa mu gikoni. Imbaburara bayitekaho, akamamiyoko bagashiriishamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ubucuruzi bwa tungurusumu, ibitunguru, pwavuro, ndetse n'ibindi byose abantu bashaka gukoresha bategura ibyo kurya cyane cyane nk'imboga.

Ubucuruzi buteye imbere bwo mu mujyi aho bacururiza kubisima bakaba bacuruza wotameroni ndetse n'ibihaza, avoka n'ibindi bitandukanye.

Ubucuruzi buciriritse aho bari gucururiza amavuta, udutoroshi ndetse n'utundi tuntu mu bikarito, aho umucuruzi ashaka gutera imbere binyuze mu bucuruzi buciriritse.

Ubucuruzi bw'amavuta agiye atandukanye y'ubwoko butandukanye. Harimo Amara y'abamama, ndetse n'ay'abagabo. Harimo n'ibikotoro bigiye bitandukanye, nka Asante ndetse na Movite.

Ubucuruzi bw'ibitenge, ndetse n'indi myenda myiza umuntu ashobora kwambara akaberwa, ndetse akaba yagaragara mu bandi neza, bityo bigatuma agaragara nk'umuntu w'umusirimu.

Ubucuruzi bwa karoti ndetse n'intoryi, ndetse n'inyanya ndetse na pavuro nk' ibintu umuntu ashobora gukoresha ari gukora imboga, ashobora kurisha ibintu bitandukanye.

Ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwa mu gihangari, aho bacururiza utuntu dukozwe mu mbaho. Bacuruza: wotameroni, imineke, n'ibindi kugira biteze imbere.

Impuhu ni zimwe mu mbuto zicuruzwa tuba ari utuntu duto dusa umuhondo, ni zimwe mu mbuto ziryoha cyane ariko zikaba zidakunda kuboneka.

Mu isoko haba hagomba gucururizwa ibintu bitandukanye harimo ibigori ndetse n'ibikoresho bakoresha mu buhinzi . Ndetse haba hitaribitabiriwe n'abantu benshi bari kugura, abandi bagurisha.

Umugabo usana amasafuriya, aho ayakora neza ndetse ayatobotse, akayashyiramo ibiremo ndetse ibingibi bikaba byamubyarira inyungu y'amafaranga.

Ubucuruzi bw'ibirayi aho abantu bacuruza ndetse banagurira ibyokurya bigiye bitandukanye harimo ibirayi mu masoko yo mu cyaro.

Iminzani, aho ushobora gukoresha umunzani w’amabuye cyangwa se uw’isahane mu gupima ingano runaka y’ikintu, bityo ugahereza umukiriya ikintu cyuzuye.

Ibumba ni ibitaka, ibitaka ushobora gukoresha ukora ibibindi n'ibyungo. Ndetse ni igikoresho ukoresha ucana cyangwa se uteka, ari icyo bita ishyiga.

Insenda zigiye zitandukanye harimo iz'umutuku, iz'umuhondo n'iz'icyatsi. Iz'icyasi ubwo bishatse kuvuga ko ari izitari zera neza, noneho ziri ahantu ziri gucuru rizwa.